Jiyesi Kampanga， indangagaciro，inshingano ziranga abarezi bo kuri Jiyesi Kampanga ni nziza， nabo bazitaho kugira ngo barere， abana imana yabaragije neza， ni inshingano nziza.

Ishuri aho abanyeshuri bigira harimo intebe ndetse zifite n'ameza n'ikibaho cyiza, hejuru hariho n'isaha, ndetse iri shuri ryubakiye neza ku buryo baryigiramo batabasha kunyagirwa.

Abanyeshuri bari kwiga gukora ibikoresho, bambaye imyenda myiza ibafasha kwirinda ndetse no kurinda ubuzima bwabo, aho bambaye udupfukantoki tubarinda kwandura, ndetse no gukora mu yindi myanda iyo ari yose kandi bari ahantu hose kandi bari ahantu heza hasakariye ku buryo imvura itabanyagira.

Ku ishuri aho abanyeshuri bari ku ishuri, buri wese yicaye ku ntebe ye, bose bambaye udupfukamunwa kandi baratuje, kugira ngo bakurikire ibyo mwarimu wabo ari kubasobanurira bizabagirira akamaro.

Aho bigira kudoda imashini, aho hariho abadozi bicaye ku mashini bari kuziga, hariho n'izindi ziticayeho abantu, kandi kwiga imashini ni byiza bituma badufasha kutudodera imyenda yacu bakanasana iyacitse.

Ishuri aho abanyeshuri bicaye hamwe mu itsinda, bari gukora umukoro basigiwe na mwarimu wabo, ni abanyeshuri bambaye iniforume y'ikigo bigaho, barasa neza.